Umuririma mugari w'umurambi uhinzemo amashu ndetse n'ibigori bigaragara ahagana hirya, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umukara uca imirongo y'umweru afite ishu mu ntoki, afite umuhoro mu ntoki, yambaye ipantaro y'kigina, arimo arareba ishu afite umusatsi mukeya.

Ni ibimera byubakiye mu buryo bwa pepenyeri, petenyeri ni uburyo hafatwa amashashi agashyirwamo itaka, maze hagaterwamo imbuto zikazamera, zikazagenda zaturwa ziterwa ahandi hantu, iyi pepenyeri yubatse ku murambi ahantu harambaraye, hirya hari ishyamba.

Umurima w'ibigori ariko bitagaragara neza bigaragara hejuru gusa. Ni ibigori bifite ibibabi by'icyatsi biri ahantu harambaraye harambitse ndetse ni ukuvuga ngo nta musozi uhari. Biragaragaza ugushokonkora kwabyo bigaragara ko bigeze mu gihe cyo guheka cyangwa se igihe cyo kwera.

Ishyamba riri ahantu hari agasozi ariko akatari agasozi kanini, ntabwo rigaragara ryose ryiganjemo ibiti by'inturusi ndetse n'ibindi by'amoko agiye atandukanye, ikirere cy'iryo shyamba kirasa ubururu ndetse n'umweruru, imbere y'iryo shyamba kandi ubutaka buhari buratukura.

N'umurima uri ahantu harambitse uteyeho imboga zo mu bwoko bw'amashu, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'ubururu wunamye arimo arakora ku ishu yambaye ipantaro y'kigina, ari mu kiro cy'imyaka hagati ya makumyabiri n'umunani na mirongo itatu n'itanu. Uwo murima urimo utuyire tugiye dutandukanye tuganisha ku mashu.

Umurima w'inanasi urimo abantu bane ariko umwe atagaragara neza. Ni umugabo umwe wambaye agapfukamunwa k'umutuku, wambaye ingofero y'icyatsi, wambaye umupira w'umukara urimo uturongo tw'umutuku tubiri ku ntugu. Ari kumwe n'abagore batatu bamwe bambaye udupfukamunwa ari babiri, umwe utagaragara neza nta gapfukamunwa yambaye. Inyuma yabo hari imibyare cyangwa se insina nkeya.

Umurima w'imboga zo mu bwoko bwa sipinaci, imboga zisa icyatsi kibisi hahagazemo abagore babiri umugore umwe afite umwana arimo aramwonsa ahagaze areba muri kamera undi mugore umwe ateze igitambaro yunamye arimo aruhira akoresheje indobo itukura.

Ni umuririma w'umurambi w'ubuhinzi bugezweho bw'imboga, izo mboga ni ubwoko bw'amashu akiri matoya harimo impombo nyinshi ziciyemo, zitanga amazi muri ubwo butaka, ni ubutaka buri mu ishyamba ariko ririmo ibiti bikeya.

Inyubako y'ubworozi bw'inkoko harimo imishwi mitoya. Iri mu kigero k'icyumweru kimwe n'ibyumweru bibiri. Iy'umukara ndetse n'umweru n'andi mabara atandukanye. Harimo imbabura itwikiriye, imishwi irayikikije. Harimo akantu zinyweramo amazi k'umutuku ndetse n'umweru, gahagazeho umushwi w'umukara hejuru.

Uwo musore w'umuveterineri uri mu kigero cy'imyaka hagati ya makumyabiri nitanu makumyabiri n'umunani, wambaye itaburiya y'umweru, ufitemo ikaramu mu gafuka, wambaye ga z'ubururu wakoze mu bubiko bw'imiti arimo arakuramo ikintu kimwe akoresha amaboko yose ariko ntabwo igihimba cye cyo hasi kigaragara.

Ku mugezi w'amazi wubakiye utagaragara neza ku gisima cyawo hahagazeho inyoni ebyiri, izi nyoni ni izo mu bwoko bw'imbata zo mu mazi zifite ibara ry'umukara ririmo utubara tw'umweru, zombi zashyize imitwe yazo mu mababa zirimo zirishima.